Inzu y'ubucuruzi bw'inzoga. Iyi nzu harimo ameza, intebe ndetse hatatseho n'ibintu byinshi bitandukanye. Hejuru kandi harimo amatara ndetse n'utundi dutako tw'icyatsi.

Ibiryo byiza kandi bikunzwe n'abantu benshi, haba abatuye mu Rwanda ndetse no hanze ibi bikaba byitwa ibirayi bitetse mu mavuta, ndetse na burushete cyangwa inyama z'ihene, ibi biryo biri ku isahani y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi. Iyi ni inzu icururizwamo ibinyobwa cyangwa se inzoga . Iyi nzu irimo inzoga zitandukanye. Harimo fanta nka kokakola, hakabamo za sikoro ,ndetse na za zindi bita ibyuma. Harimo kandi firigo ifite ibara ry'umutuku.

Ahantu hariho intebe n'imeza biri mu ibara ry'umuhondo ryanditseho ijambo sikoro byanditswe mu ibara ry'umutuku aha hantu hakunze kugerwa n'abantu batari bake akenshi iyo bashaka gufata kamwe cyangwa kuruhuka hahurira abagabo, abagore, ndetse n'urubyiruko rwabishatse.

Abagabo batatu bahagaze bakikije ameza. Aya meza kandi ateretseho amacupa menshi y'inzoga, ndetse n'ibirahuri. Inyuma yabo kandi hariho abandi bagabo nabo bari kureba inyuma. Bisa nk'aho aha ari mu kabari cyangwa muri bare.

Icyapa kinini kiri mu mabara atandukanye， gishushanyijeho. igitanda gishashe neza， gishushanyijeho， kandi icupa ndetse cyanditseho amagambo， mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi ni inzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo imyenda, inkweto n'ibindi. Imbere kandi kuri iyi nzu hariho ibyapa by'abajenti hariho umwajenti wa Kigali ndetse na ekwiti banki.

Inzu y'ubucuruzi. Iyi nzu iriho amarangi atandukanye. Ku miryango yaho hariho irangi ry'icyatsi. Iyi nzu kandi ishakaje amabati y'umutuku. Hariho ibishushanyo byinshi bitandukanye, handitseho kandi n'amagambo mu ibara ry'umukara.

Inzu z'ubucuruzi izi nzu zicururizwagamo inzoga za mitsingi hariho icyapa c'umutuku gishushanyirijeho icupa ndetse cyanditseho amagambo mw'ibara ry'umweru imbere kandi y'iyo nzu hariho umuntu uhetse undi kuri moto.

Inzu y'ubucuruzi, iyi nzu irimo ibintu byinshi bitandukanye bicuruzwa harimo imipira yo gukina cyangwa se balo mu dutambaro, ingofero amagare n'ibindi. Hariho kandi abantu babiri harimo uwicaye mu mutaka wa emutiyeni n'undi bigaragara ko ari ugura n'ugurisha.

Inzu y'ubucuruzi; iyi ni inzu isize irangi rifite ibara ry'umuhondo ndetse yanditseho n'amagambo, yanditse mu ibara ry'umutuku. Hirya yaho hariho indi nzu yubakishije amatafari ahiye kandi ishakaje amabati afite ibara ry'umutuku, imbere y'iyi nzu haparitseho imodoka eshatu kandi hariho n'ibiti birebire.

Inzu isizwe amarangi y'amoko abiri : umuhondo uhiye ndetse n'umuhondo udahiye. Imbere y'iyi nzu hari itara ryo mu muhanda riri mu mabara abiri, ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru. Imbere kandi hari umuhanda wa kaburimbo urimo kunyuramo abantu. Ku ruhande hariho igipangu kirimo ibiti n'amazu.

Ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye, kandi izi mbuto zirakunzwe cyane kubera ko ziraryoha, harimo imbuto z'imineke imwe bakunze kwita kamara ,hariho amaronji amwe asa n'umuhondo ,hakabaho inanasi ndetse n'izindi, inyuma hari igipangu cy'umutuku.

Umuryango w'icyuma bamwe bakunze kwita metalike ku muryango utatseho amabara gatandukanye. harimo ibara ry'umuhondo ,ry'ubururu ry'cyatsi n'ibara ry'umweru muri uwo muryango hamanitsemo irido naryo rifite amabara gatandukanye. harimo ubururu budahiye, umukara ndetse n'umweru.

Inzu y'ubucuruzi, imbere y'iyi nzu hariho umwana w'umuhungu wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umukara, yambaye kandi ekuteri mu matwi, imbere ye hariho icyapa gishushanyijeho ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'iby'umuriro w'amashanyarazi. Hejuru y'amaskariye hariho igare.

Inzu z'ubucuruzi; izi nzu zisize irangi ry'umuhondo, imbere y'izi nzu kandi hariho abantu bicaye n'abahagaze, hariho kandi imbere mu muhanda igare ritwaye abantu babiri, ku ruhande kandi rw'izi nzu hariho urusengero cyangwa kiriziya nini, isakaje amabati y'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi, iyi nzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, ifite ibara ry'icyatsi ishakaje kandi amabati y'ubururu, imbere ku idirishya hariho ibintu byinshi ibihaza, ibisheke, igitoki n'ibindi biri mu mifuka. Hariho kandi abantu bari imbere hariho umuhungu wambaye agapira k'umuhondo n'abandi bicaye.

Inzu y'ubucuruzi; iyi nzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye ariko by'abana, harimo amapo, amakuvureri, amashuka, ndetse n'utundi twenda twose tw'abana. Inzu kandi iriho icyapa gishushanijeho imyenda ndetse n'utundi dukoresho tw'abana ndetse cyanditseho n'amagambo.

Inzu y'ubucuruzi isize amarangi ari mu mabara abiri, ibara rya mbere ni ibara risa n'umuhondo, ibara rya kabiri ni ibara ry'ubururu bwijimye. Imbere y'iyo nzu hari abantu batatu, ndetse n'uwa kane uri mu muryango, ikindi imbere yaho hari umutaka wa MTN ndetse n'igare.

Inzu nini isakaje amabati ari mu ibara ry'umutuku, iteye irangi ry'umweru. Iyi nzu kandi ifite igipangu cyubakishije amatafari asize irangi ry'umutuku ndetse hari ho n'irangi ry'ubururu. Iyi nzu yanditseho amagambo mu ibara ry'umweru. Imbere kandi y'iyi nzu haparitseho moto.

Inzu z'ubucuruzi. Izi ni inzu zikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye by'ubucuruzi, cyane cyane ubucuruzi bw'ibiribwa. imbere y'izi nzu hariho imitaka minini ya eyateri, ndetse n'iyanditseho pirimusi. Hacururizwamo ibirayi, inyanya, ibitunguru,, amakara, ibijumba, ibitoki n'ibindi.

Amashyiga ya kizungu， akoresha umuriro w'amashanyarazi， umuntu ari kuyatekeraho， afite kandi aho gutereka isafuriya habiri. Aya mashyiga ateretse mu kintu cy'icyuma, inyuma kandi hariho inzu irimo urugi rufite ibara ry'ubururu.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu bwijimye, cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umutuku wijimye. Gishushanyijeho inka ndetse n'imiti yo kwica uburondwe ndetse n'amasazi ku matungo.

Icyapa kinini kiri mu mabara abiri atandukanye umweru ndetse n'ubururu bwijimye. Icyo cyapa gishushanyijeho inka ndetse n'imiti ivura uburondwe n'amasazi ku matungo, cyanditseho mu magambo asa n'umutuku ndetse umweru n'umukara.

Inzu y'ubucuruzi, iyi ni inzu icururizwamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye ariko byose ni ibicuruzwa bijyanye n'amatungo, harimo imiti hakabamo ibintu inkoko ziriraraho, ndetse hejuru hashushanyijeho inka ndetse handitseho na nimero za telefoni.

Ibikoresho byo mu rugo bitandukanye ibi bikoresho bikoreshwa cyane mu rugo birakenerwa, harimo ibikombe by'amabara atandukanye amabara y'ubururu ndetse n'ay'umutuku. Hariho kandi na mabase atandukanye hariho ay'umukara, ay'ubururu, ay'umutuku nay'icyatsi. Impande yaho hariho amagare.

Icyapa kimanitse ku gikuta cy'inzu, gishushanyijeho ibiryo byinshi by'ubwoko butandukanye. Iki cyapa kandi, cyanditseho amagambo agaragaza ubwoko bw'ibiryo wasanga aha hantu. Cyandikishijwe amagambo mu mabara abiri harimo ibara ry'icyatsi, ndetse n'ibara ry'umukara.

Inzu y'ubucuruzi. Iyi nzu irimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo amakoti y'abagabo, inkweto zitandukanye. Imbere y'iyi nzu ku muryango hariho umwana w'umuhungu uhagaze uhetse igikapu mu mugongo, imbere kandi hariho umutaka wa MTN, hariho kandi icyapa gishushanyijeho abantu n'inkweto.

Inzu ndende, iteye amarangi yo mu mabara abiri. Harimo ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibara rya pinki. Iyo nzu akaba ari hoteri Muhabura. Imbere yaho hariho ibiti birebire, ndetse n'igipangu.

Inzu z'ubucuruzi izi ni inzu zikorerwagamo ibintu byinshi bitandukanye, zifite imiryango isize irangi ry'icyatsi, izinzu kandi zishakajije amabati yumutuku umuryango umwe ubanza urikwinjiramo abantu babiri hateretseho n'imifuka ku mpande, muwundi muryango nawo guhera harimo umuntu wicaye na moto hari n'undi uhagaze.

Inzu y'ubucuruzi, iyi ni inzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye. Imbere hariho etajeri ipanzemo amabati bisa nk'aho bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi. Iyi nzu kandi irimo amakaro afite ibara ry'umweru.

Inzu nini kandi nziza ebyiri. Izi nzu zisize amarangi meza kandi arimo amabara atandukanye. Izi nzu zifite igipangu kinini. Hejuru hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Inyuma y'igipangu naho hariho akajaride k'utwatsi.

Uruhurirane rw'imyenda itandukanye harimo imipira amapantaro, amakoti, amasharupe n'iyindi, harimo kandi n'inkweto zitandukanye nka bote z'ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi, harimo kandi n'ibikapu bitandukanye ku mabara ndetse no ku bwoko.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi, gishushanyijeho icupa ry'icyatsi. Cyanditseho amagambo mi ibara ry'umweru .lki cyapa giteretse ahantu ku ruhande ku muhanda ukoresheje amapave. Inyuma yaho kandi hari ibiti birebire ndetse hari n'inzu ndende ya etaje.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko harimo, abagabo, abagore, baje kugura no kugurisha ibintu bitandukanye harimo: amabase afite amabara gatandukanye ay'ubururu, ay'umukara, n'umuhondo, ay'acyatsi, nay'umutuku, mu isoko kandi harimo n'inkweto, inyuma na none hari amazu menshi bigaragara ko ari ay'ubucuruzi.

inzu ibiri z'ubucuruzi izi, izo nzu ziteye amarangi atandukanye. Hariho iteye amarangi y'umweru, indi iteye amarangi y'umukara. Imbere ku gikuta hariho imitako y'uturabo, mu muryango harimo abantu bahicaye ndetse n'imbere yaya mazu. Ikindi kandi iyi imwe y'irangi ry'umukara yanditseho amagambo mu ibara ry'umweru.

Inzu z'ubucuruzi, izi nzu zifite amakaro imbere. Imbere y'iyi nzu hariho imeza ateretseho ipasi y'umuriro, kandi kuri iyo nzu nanone hariho imyenda ihamanitse.

Agakebe gafite ibara ry'icyatsi gashushanyijeho ibitunguru mu ibara ry'umutuku. Kanditseho kandi amagambo mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru. Hari ikiganza kigafashe kiri kukerekana

Inzu yubakishije amakaro gusa, mu muryango w'iyi nzu harimo abantu babiri ndetse n'umwana utsigagatiwe wa gatatu, imbere kandi y'izi nzu haparitseho amagare atatu, ku ruhande rw'izi nzu hariho indi nzu imwe isize irangi ry'ubururu.

Inzu y'ubucuruziye ni inzu isize irangi rifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru kandi imiryango ifite ibara ry'ubururu imbere y'umuryango umwe haparitseho moto, imbere y'undi muryango hariho umuntu uri kudoda n'abandi bamuhagaze imbere bari kudodesha.

Inzu nini kandi ndende, iyi nzu yanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, imbere yiyi nzu kandi hariho igiti kikiri gito kitari cyakura neza.

Inzu y'ubucuruzi. Izi nzu zikorerwamo ibintu by'ubucuruzi bw'inzoga. Kubera ko hariho icyapa cyanditseho mitsingi ndetse gishushanyijeho n'icupa rya mitsingi. Imbere kandi kuri icyo cyapa, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Inzu nini kandi nziza isize amarangi ari mu mabara atandukanye harimo: irangi ry'umukara, irangi ry'umweru ndetse n'iry'ubururu budahiye. Iyi nzu kandi isakaje amabati afite ibara ry'umutuku ,yanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Inzu z'ubucuruzi zifite amabara atandukanye, imwe iteye ibara risa n'umutuku n'icyatsi, ahandi ibara ry'umuhondo ariko imbere hejuru hariho amakaro, imbere hariho abantu babiri bicaye detse n'amagare abiri rimwe ripakiye ibirayi, hamwe n'igiti kirekire.

inzu y'ubucuruzi ,iyi ni inzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye ,ariko bijyanye n'impapuro. Iyi nzu isize irangi rifite ibara ry'umutuku, iyi nzu kandi iriho ibyapa bishushanyijeho ibikoresho byinshi ,ndetse hananditseho mu ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi, iyi nzu irimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, muri iyi nzu kandi hahagazemo umugabo wambaye umupira uri mu mabara agatandukanye, yambaye kandi ipantaro y'ikoboyi ndetse n'ingofero mu mutwe, imbere hariho intebe ifite ibara ry'umutuku.

Ubucuruzi butandukanye, harimo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya. Ku meza hariho capati zihiye. Mo imbere mu kabati harimo amaji y'ubwoko butandukanye ndetse na benye, n'amanandazi. Hejuru y'akabati, hariho amagi. Impande yaho naho hariho akabati.

Inzu yubakishije amakaro, ifite umuryango usa n'umweru. Iyi nzu iriho icyapa gishushanyijeho abantu ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku ndetse n'iry'umukara. Imbere hicayeho abantu batatu ndetse n'umwana uri mu muryango wa kane, kandi hariho umutaka wa MTN ndetse n'igare.

Icyapa cyanditseho amagambo menshi atandukanye, kandi kinashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye. Iki cyapa cyanditseho, bigaragara ko kiri kuranga ahantu bakorera amaserivisi ajyanye no kohereza cyangwa kubikuza amafaranga ku mabanki atandukanye; harimo nka banki ya kigali bipiyara ndetse na beneri.

Inzu nini yubakishije amatafari ahiye, hejuru kuri iyo nzu hariho icyapa cyanditseho amagambo yandikishijeho mu mabara y'icyatsi ndetse n'umukara, imbere hariho indabyo.

Inzu y'ubucuruzi iyi nzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'indodo zo kudoda imyenda, zirimo amabara gatandukanye, hariho kandi n'imyuko ikindi hariho indobo hasi.

Icypa kinini gishushanyijeho ibishushanyo by'umuziki bitandukanye harimo: nk'inanga, ingoma, gitari n'izindi. Ikicyapa cyanditseho amagambo yanditse mumabara y'umukara ndetse n'amabara y'umweru.

Mu mubare munini w'abantu bateraniye hamwe. Harimo abagabo, ndetse n'abagore. Aba bagabo n'abagore bicaye kuri tapi ifite ibara ry'icyatsi. Ikindi kandi bambaye imyenda isa, ifite ibara ry'umweru, hasi bambaye umukara. Bicaye mu nzu isize irangi ry'umuhondo.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore bambaye imipira isa ifite ibara ry'ubururu, imbere yabo kandi hariho undi mugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, usa n'uri kubabwira amabwiriza, imbere hariho ameza ariho igitambaro cy'umutuku ndetse uteretseho ibintu mu makarito.

Inzu iriho icyapa cyanditseho amagambo yanditse mw'ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'ubururu, imbere y'iyi nzu hariho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ikindi kandi hirya y'iyi nzu hariho andi mazu abiri, bisa nkaho ari amazu y'ubucuruzi.

Inzu nini kandi irimo n'intebe z'amabara atandukanye, kuri izi ntebe kandi hariho ibitambaro na byo by'amabara atandukanye, hariho icy'ibara ry'umutuku, ndetse n'icy'ibara ry'umuhondo. Inyuma y'izi ntebe hariho akabati gateretsemo ibikoresho byinshi bitandukanye byo mu rugo.

Inzu ndende kandi nini ya etaje. Iyi nzu igeretse gatatu. Iyi nzu isize amarangi arimo amabara agatandukanye. Imbere hariho abantu bambaye imyenda hejuru isa n'ubururu hasi isa n'umukara. Imbere kandi y'iyi nzu haparitseho imodoka ebyiri.

Inzu isize amarangi atatu atandukanye, harimo ibara rya pinki, ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umuhondo, iyi nzu kandi irimo ibishushanyo bitandukanye, harimo igishushanyo cy'ingagi kandi iyi nzu irimo ibikoresho byo mu nzu, harimo intebe ndetse n'ameza.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko, iri bikaba ari isoko ry'imyenda n'inkweto harimo abantu benshi bajye kugura ndetse n'abandi benshi batandukanye bajye kugurisha, aba bantu bose baturutse mu mpande zitandukanye.

Ibiryo bikunzwe cyane bituruka ku nyamaswa yitwa inkoko. Ibyo biryo bikaba byitwa amagi. Aya magi ari ku bikoresho bifite amabara atandukanye:ibara ry'icyatsi, umuhondo, ubururu ,umweru n'umutuku hariho kandi abagore babiri bari kuyareba.

Ibiti bitambitse ku mazu bimanitseho imyenda zitandukanye. Harimo amajipo, amapantaro y'amakoboyi, amashati, n'izindi. Imbere kandi hateretseho mare eshatu. Harimo mare ebyiri zifite ibara ry'ubururu ndetse n'indi imwe ifite ibara ry'umweru. Ikindi hari n'amavarisi atatu.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko abagabo, abagore, urubyiruko, mbese n'abantu benshi, aba bantu harimo abari kugura ndetse n'abaje kugurisha, ibintu bitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye, bibajwe mu biti ndetse no mu byuma. Harimo imitego y'imbeba, udusandugu, ndetse n'imyuko. Hirya hariho ibikoresho bikozwe mu byuma. Hariho indiga, ndetse n'amapata y'inzugi.

Abagore bicaye muri atoririye badoda imyenda. Bicaye imbere y'imashini za bo zidoda. Hariho ufashe igitambaro cy'umweru ndetse afite na metero mu ijosi. Ndetse n'undi umuri impande afite metero mu ijosi, n'igitambaro cy'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi. Iyi ni inzu icururizwamo ibintu byinshi bijyanye na telefoni. Harimo poshete za telefoni, z'amabara atandukanye, hakabamo ekuteri z'ubwoko butandukanye, hakabamo antiboloke, mbese ni ibintu byinshi bijyanye na telefoni. Harimo kandi n'amasaha.

Uruhurirane rw'imbuto zitandukanye ziri mu isoko harimo: wotameloni, amalonji, pome, inanasi, imineke ndetse n'izindi, izi mbuto ziri mu mabara atandukanye, hari izifite ibara ry'icyatsi, izifite ibara ry'umuhondo, n'izifite ibara ry'umutuku, kandi harimo n'abantu bari kuzicuruza n'abazigura.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, bigaragara ko ari isoko rinini kandi ryubatse, hari abantu bicaye ndetse n'abahagaze, bigaragara ko hari abantu bari kugura ndetse n'abari kugurisha.

Ibikoresho byo mu rugo bitandukanye. Ibi bikoresho biri mu mabara menshi atandukanye, harimo ibikombe, indobo, amajage, amasafuriya n'ibindi. Harimo kandi amabara nk'icyatsi, pinki, ubururu, umukara wijimye, ndetse n'ayandi.

Umugabo wicaye ku ibuye rinini ariko kudoda inkweto ari no gusudira ibidomora n'amabase, impande y'uwo mugabo hariho umwana uryamye wasinziye, hariho kandi undi mugabo uhagaze wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu n'ipantaro y'umukara, impande yabo kandi hariho undi mugore wicaye hasi inyuma ye hariho amabuye manini.

Ibikoresho byo mu rugo bikoreshwa bari guteka, ibi bikoresho bikozwe mu byuma by'ibibati ndetse n'ibumba, bikaba byitwa imbabura.

Uruhurirane rw'abantu bahuriye mu isoko, hari abagura ndetse n'abagurisha ibyo baba bakuye hirya no hino, mu nkengero z'isoko. Hari abagura ibitoki, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, biri muri iri soko.

Imifuka iteretse ku ntebe, irimo ubwoko butandukanye bw'umuceri. Inyuma kandi hariho imeza iteretseho indobo zitandukanye, zirimo amafu atandukanye. Hari ifu y'ibigori, ifu ya soya, ifu y'ingano ndetse n'izindi. Munsi y'izi ndobo, hateretsemo kandi utudomora tw'amavuta.

Inzu y'ubucuruzi. Iyi nzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye. Harimo amavuta yo kuyisiga, ubwoko bwinshi butandukanye. Harimo kandi ibyo kunywa nk'amaji, ndetse n'inzoga zitandukanye. Harimo kandi amagi. Iyi nzu irimo abantu bane, batatu bahagaze, n'undi wicaye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko cyane cyane abenshi ni abagore, harimo abafite imifuka bari gusogoreramo, isombe izindi sombe zirarambitse umutwaro ku mutwaro.

Ibiryo bikunzwe n'umubare utari mukeya w'abantu batuye isi. Bikaba byitwa igitoki, igitoki gitekwa ku buryo bwinshi butandukanye, hari abagiteka cyonyine bagitetse mu mavuta, hari abagiteka bakivanze n'ibishyimbo, cyangwa se ibirayi bikaba byitwa imvange.

Umufuka munini urimo amakara. Aya makara aratwitse. Impande yayo kandi hariho intebe ishaje, ariko bigaragara ko isize irangi ry'ubururu. Impande yaho hariho umufuka utagaragara neza, urimo ibirayi. Hariho kandi ku ruhande rwaho igishushanyo gishushanyijeho mitsingi.

Ibikoresho byo mu rugo bitandukanye: ibiyiko, amafoke, ibyuma, ibirahuri n'ibindi. Hariho kandi indobo ziri mu mabara atandukanye, harimo indobo zisa n'icyatsi, iz'umweru, iz'ubururu, iz'umuhondo, n'iza pinki. Inyuma kandi hariho imineke ihiye, bivuze ngo iri mu ibara ry'umuhondo.

Imbuto nyinshi kandi zitandukanye, izimbuto zikunzwe n'umubare w'abantu utarimuke, harimo imbuto z'imyembe, mu mabara yose atandukanye, harimo kandi na wotameloni.

Isoko ririmo ibintu byinshi bitandukanye cyane cyane ibikoresho byo mu rugo hari: imikoropesho, amabasi afite amabara atandukanye :umutuku, icyatsi ,ubururu n'ibindi .Hari n'imbabura.

Inzu y'ubucuruzi, iyi nzu ni nziza kandi ni ndende ni etaje isize amarangi atandukanye harimo n'umuhondo uhiye n'udahiye. Hasi kandi hamanitseho ibyapa byinshi bitandukanye harimo icyapa cy'icyatsi, umuhondo, umweru byanditseho amagambo atandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko harimo abagabo ,abagore, abana n'urubyiruko. Aba bantu kandi harimo abaje baje kugurisha ndetse n'ababa baje kugura.

Imitako cyangwa se udukomo two mu maboko ndetse n'ibisokozo, bifite amabara atandukanye. Harimo ibifite amabara y'umutuku, ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo. Iyi mitako kandi ikunzwe n'umubare utari muke w'abatuye isi.

Urujya nuruza rw'abantu bahuriye mu isoko, hari abaje kugurisha ndetse hari n'abaje kugura, iri soko ririmo cyane cyane ibiribwa harimo:nk'imboga, ibitunguru, isombe n'izindi mboga zitandukanye harimo kandi umugabo wambaye ipantaro y'umweru, n'ikoti ry'umukara usa nkaho yaje kugura.

Isoko ririmo ibintu byinshi bitandukanye. Harimo imbuto z'ubwoko bwose ndetse n'ibindi bikoresho nk' amabase, afite ibara ry'umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'amasafuriya, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo.

Imyenda y'ubwoko butandukanye, imanitse, isa nk'aho iri kugurishwa. Harimo ibitenge by'amabara atandukanye, hakabamo amapantaro y'amabara atandukanye, ndetse n'amashati.

Ubucuruzi bw'imboga z'ubwoko butandukanye, hari inyanya, karoti, intoryi, ndetse n'imiteja, hari kandi n'ibitunguru. Impande y'izo mboga hariho umuntu bigaragara ko ari we uri gucuruza izi mboga.

Uruhurirane rw'abantu bahuriye mu isoko. Iri soko biragaragara ko ari iry'ibiribwa ririmo ibintu byinshi ibyo kurya harimo ibihaza, amateke, ibijumba ndetse n'ibindi. Muri iri soko harimo abaje kugurisha ndetse n'abaje kugura.

inzu y'ubucuruzi. Iyi nzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye. Muri kontwara harimo ibiraha byinshi cyangwa amasambusa y'ibirayi. Mu nda kandi harimo amazi. Muri iyi nzu hahagazemo umuntu uri gucuruza ibi bintu wambaye ikoti ry'umukara n'umweru n'akagofero.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko harimo abagura ndetse n'abagurisha mu bigaragara, irindi soko ry'ibirayi harimo ibirayi by'amoko menshi atandukanye.

Inkweto zifunguye, izi nkweto zikunzwe n'umubare w'abantu utari mukeya. Izi nkweto zitwa Masai, zikoresheje amasaro ari mu mabara atandukanye, harimo umuhondo, ubururu, umutuku, n'andi.

Imifuka myinshi irimo ibirayi, hariho abantu hari abicaye ndetse n'abahagaze, harimo abagore ndetse n'abagabo, inyuma y'aba bantu hariho amazu menshi bigaragara ko ari amazu y'ubucuruzi.

Uruhurirane rw'ibiribwa bitandukanye biri mu isoko harimo amashaza, ibishyimbo, ubwo ni intonore, igitoki, ibirayi n'ibindi biribwa bitandukanye. Imbere y'ibyo biribwa hariho abantu bicaye bari kubicuruza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byo mu rugo, harimo amajage afite amabara atandukanye. Amajage asa n'umuhondo n'ayandi y'icyatsi, hariho kandi n'amasafuriya atandukanye, ikindi hariho n'ibiringiti by'ubwoko butandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bahuriye mu isoko. Hari abagura, hari abagurisha ibyo baranguye, cyangwa se ibyo bakuye hirya no hino mu nkengero z'isoko, harimo nk'imboga z'amashu, ibitunguru puwavuro, tungurusumu n'ibindi bitandukanye.